Umucuruzi ucuruza telefone agatanga ubufasha mu bijyanye n'itumanaho, ari kuganiriza umudamu amubaza niba hari icyo yamufasha, ni munsi y'inyubako ifite amadirishya ndetse n'urugi.

Ibikoresho bifashisha bavura bitandukanye kwa muganga, birambitse ku meza harimo, harimo ibyo bakuye mu bikarito ndetse n'ibindi bifungiranye mu bikarito, harimo n'imiti bifashisha bavura abarwayi.

Mu mbuga ngari, abakozi bashinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu ndetse no kubatabara bari guhabwa amabwiriza n'abakuriye, hari abantu benshi batataniye kure ndetse iruhande rwabo hari ibiti birebire biri mu mpande z'inyubako ihari bari gukoreramo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru ndetse n'inkweto zifite amabara y'umukara n'umweru ari gupakira ibikapu mu modoka inyuma ifunguye inzugi, iruhande rwayo hari modoka, hari n'ibindi bintu bapakiye hejuru y'imodoka.

Abakozi bo kwa muganga barimo abagabo, abasore, abakobwa ndetse n'abagore bafite icyapa kiriho ibirango bigaragaza ko bari mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo.

Abakora kwa muganga bambaye ibisurubeti byabugenewe, ingofero ndetse n'dupfukamuwa kugira ngo batandura indwara, bafite igare ryagenewe gutwarwaho abarwayi bajyanwa mu cyumba cyahariwe indembe.

Abarwayi bari kumwe n'abarwaza mu bitaro bari kubitaho, abarwayi baryamye ku bitanda mu nzu yagenewe abarwayi ndetse hanze hari pasiparumu kugira ngo babone umwuka wo guhumeka.

Mu cyumba barwarizamo abarwayi kwa muganga hari ibitanda ariko bitaryamyeho abarwayi, hari kandi aho bafatira ibyo kurya ndetse n'imiti, hari kandi ibindi bintu birimo amarido ni mu nyubako irimo amatara mu cyumba imbere.

Imbangukiragutabara ihagaze mu muhanda iruhande rwayo hari izindi modoka, kuri iyo mbangukiragutabara handitseho amagambogambo agira ati imbangukiragutabara ibitaro bya Nyagatare, iruhande rwayo kandi hari n'indabyo.

Abakozi bo kwa muganga barimo n'abarwayi, bambaye imyenda yabugenewe, bari gufasha umurwayi kwinjira mu mbangukiragutabara kugira ngo ajyanwe ku bitaro bikuru, ahabwe ubutabazi bwihuse.

Abashyitsi barimo ab'uruhu rwera, barimo barerekwa icyumba cy'ikoranabuhanga, kirimo za mudasobwa zitandukanye, umuyobozi mukuru ari kubabwira uko icyumba gikoreshwa, bambaye amaserengeri, ariho ibirango by'ubutabazi.

Muganga ari kumwe n'umurwayi amwinginga ngo ajye kumubaga, ariko uwo murwayi ntashaka ko bajya kumubaga, ari kwinjira mu cyumba cyanditseho inzu y'ibagiro, hari n'undi uri gukanda ku rukuta menya ari kwatsa itara cyangwa se akaba ari kugira ibindi atunganya.

Abakozi bo mu kigo gishinzwe ubuzima ku isi, bafatanyije n'abaganga bari gukingira abana babaha imiti ku gihiko, ababyeyi babafite mu ntoki babateruye kugira ngo babone uko bahabwa imiti.

Abaganga babiri bari mu cyumba cyabugenewe, bari kubaga umurwayi, bambaye imyenda ibafasha kwirinda kuba bagibwaho n'umwanda, bafite icyuma bifashisha babaga umurwayi.

Cyagenewe abarwayi abayobozi barimo abagabo ndetse n'abagore, bari mu igenzura bareba uko abarwayi bavurwa, abarwayi barimo abicaye ku gitanda bateruye abana, barimo bitegereza uko abayobozi bagenzura uko bavurwa.

Mu nyubako y'ikigo nderabuzima abarwayi bicaye bategereje abaganga ko babafasha, bamwe bari kugenda binjira mu nzu, abandi baracyategereje hanze, mu busitani bw'inyubako hicayemo umurwayi umwe warembye.

Umuganga w'inzobere ari mu cyumba avuriramo abarwayi, yambaye imyenda yabugenewe irimo naburiya y'umweru, afite icyapa mu gatuza kiranga akazi akora, ari mu cyumba kirimo ibikoresho yifashisha.

Abarwayi bicaye munsi y'inyubako yagenewe kuvurirwamo abarwayi, abandi bari kugenda mu gahanda gato kari iruhande rw'inyubako abandi bicaye iruhande n'ikigega kibika amazi.

Umuganga uvura indwara zitandukanye ari kwifashisha mudasobwa ashyira amakuru y'abarwayi mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo n'ubutaha nibaza kwivuza bazabone uko bivuza, hari impapuro ari kwandukuraho ayo makuru.

Umushoferi utwara imbangukiragutabara yicaye mu modoka imbere yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'icyatsi, hanze hari umudamu uri kumwitegereza ndetse hirya y'imodoka hari.

Umuganga mu bitaro ari gusuzuma uko umutima w'umurwayi utera akoresheje icyuma cyabugenewe, umurwayi aryamye ku gitanda kiriho ibitambaro ndetse na matera n'ibindi bikoresho bikenerwa n'umurwayi mu cyumba arwariyemo.

Abakozi n'abaturage begereye Ibitaro bya Nyagatare bari mu muhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri mata igihumbi kimwe maganacyenda mirongocyenda na kane, inyuma yabo hari imbangukiragutabara.

Inyubako y'ibitaro bya Nyagatare hari imbangukiragutabara itwara abarwayi barembye, iyo nyubako ifite amarangi y'umuhondo, munsi yayo hari ikigeya gifata amazi kugira ngo adasenya inyubako ndetse akangiza n'aho abantu banyura.

Abaganga b'inzobere barimo abadamu babiri n'umugabo, bari mu gikorwa cyo kubaga umurwayi bifashishije ibikoresho bitandukanye, harimo imikasi, abaganga bahagaze bareba uko umurwayi ameze, mbere y'uko bamubaga.

Abarwayi bari kumwe na muganga mu cyumba babakiriramo, muganga ari kugenda asuzuma umuriro bafite, abarwayi bafite ibyangombwa mu ntoki bibemerera kwivuza.

Icyumba bakiramo abarwayi barembye, harimo ibitanda ndetse abarwayi bamwe baryamye kuri ibyo bitanda, hagaragara umurwayi umwe wicaye mu kagare, kifashishwa n'abafite ubumuga.

Umuganga uvura indwara ari mu cyumba abarwayi barembeyemo ari kureba mu bitabo areba uko abarwayi bameze kugira ngo amenye niba bakize cyangwa abongera imiti.

Abaganga b'inzobere b'abahanga mu gutahura indwara abarwayi barwaye, bari mu cyumba cyabugenewe CYifashishwa mu gutahura indwara z'abarwayi, bari gufata ibizamini abarwayi babahaye, kugira ngo barebe uburwayi barwaye.

Abaganga bahuguriwe ibyo gutera inshinge, bafite inshinge bari kuvoma umuti mu icupa batera inkingo abarwayi. Ni abaganga bambaye impuzankano kugira ngo abarwayi babamenye babone uko babatera imiti.

Ku ivuriro aho bavurira abarwayi, muganga mukuru hari kubaza abarwaye indwara afite, hagaze abadamu babiri barimo n'ufite uruhu rwera. Hirya yabo hari urucaca rurimo ibyatsi bitoshye, ndetse n'ibyuma bananikaho imyenda.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana we yamujyanye kwa muganga, bari imbere y'umuganga ari kubandikira imiti y'ubwoko butandukanye, hari amacupa arimo imiti y'ubwoko butandukanye ndetse n'akabati karimo iyo miti y'ubwoko butandukanye.

Mu isuzumiro yambaye itaburiya y'umweru yicaye ku ntebe, ari kwandika abaza umurwayi icyo yaba arwaye kandi iruhande rwe hari ibindi bitabo ari kwifashisha kugira ngo abike amakuru y'umurwayi abone uko amuha umuti ukwiriye.

Abaganga bakuru basuye umuganga ukorera ku bitaro bito, ari kubabwira uko akoramo nuko atanga ubufasha ku barwayi bamugannye. Barimo abagabo babiri n'umudamu umwe w'uruhu rwera ndetse n'umudamu w'undi w'uruhu rwirabura.

Umuganga ushinzwe gutahura indwara z'abarwayi urebeye mu bizamini yabafashe ari mu cyumba cyabugenewe arimo asuzuma ibizamini by'abarwayi yifashishije ibikoresho byabugenewe.

Icyumba cyabugenewe gufatirwamo ibizamini by'abarwayi, muganga ari gufata ibizamini asuzuma indwara abarwayi barwaye, harimo ibikoresho yifashisha asuzuma ibizamini by'abarwayi.

mu cyumba bafatiramo ibizamini by'abarwayi, abanyeshuri batatu bitoza kwiga ubuganga, bari gufata ibizamini by'abarwayi, bicaye bifotoza, inyuma yabo hari ibyapa bigaragaza ibyo bakora.

Umuganga ari mu cyumba cyagenewe gusuzumirwamo ibizamini by'abarwayi, hifashishijwe ibikoresho bitandukanye byabugenewe ,yambaye ibikoresho byabugenewe harimo amataburiya ndetse n'apfukamunwa, afite ibikoresho arimo asuzuma uburwayi bw'umurwayi ikizamini yafashe.

Abanyeshuri bitoza kuba abaganga, bari mu cyumba basuzumiramo ibizamini byabarwayi, bari kumwe n'umwarimu wabo ari kubigisha uko bafata ibizamini, bambaye udupfukantoki ndetse n'imyenda yabugenewe bifashisha.

Ishuri biga ibijyanye n'ubuganga, bari mu cyumba cyagenewe gufatirwamo ibizamini, bari gukora isuzuma ndetse n'imikoro ngiro bahawe n'abarimu babo kugira ngo barusheho kugira ubumenyi bwisumbuye mu byo biga.

Mu cyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga harimo intebe ndetse n'ibikoresho abaganga bifashisha bapima uburwayi harimo ubw'inzoka, ubuhumekero ndetse n'indwara zo mu mutwe, bagafasha abarwayi mu buryo butandukanye.

Ikiganza cyambaye uturindantoki gifite agacupa karimo amaraso bagiye gupima kugira ngo barebe icyo umurwayi arwaye babone kumuha umuti ndetse n'ubundi bujyanama bwamufasha gukira indwara arwaye.

Mu nama y'abakozi bashinzwe ubuzima, bicaye mu gishararagati cyubakishije ibiti, bitambaro by'umweru ndetse n'icyatsi, bateze amatwi ibyo uri kubagezaho ijambo, imbere yabo hari amazi yo kunywa.

Abaganga batatu barimo umwe uteraye umwana, bari mu cyumba bambaye amakoti maremare ndetse n'ibindi byuma bibafasha kwirinda kuba bakandura uburwayi bwandura binyuze mu mwuka.

Umubyeyi uri kwa muganga umaze kubyara, ateruye umwana we mu ngobyi, yishimye amukirigita, amureba mu maso, amusekera, yambaye igitambaro, yifubitse imyenda kugira ngo imbeho itamwica.

Umubyeyi ari kwa muganga ari kuvurwa n'abaganga babiri barimo umudamu n'umugabo wambaye amarinete bari iruhande rw'ameza ariho ibitambaro ndetse n'ibikoresho umuganga akoresha avura abarwayi.

Bicaye imbere y'inyubako z'ubuvuzi bategereje ko bahabwa serivisi zirimo guterwa inkingo no guhabwa imiti, bari kumwe n'abajyanama b'ubuzima bari guhabwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi imbere y'inyubako z'ubuvuzi.

Abajyanama b'ubuzima babiri b'abadamu bari kumwe n'abakozi bo mu kigo cy'ubuvuzi mu Rwanda, bari kumwe n'umubyeyi barifite umwana we bari kumupima, bagira ngo barebe ko nta ndwara z'imikurire mibi afite.

Ni abana babo bahagararanye n'abaganga babafasha kubavura, munsi y'inyubako y'ikigo nderabuzima, nyuma yo guhabwa ubufasha ndetse bahagaze munsi y'inyubako y'ikigo nderabuzima gitatseho icyaha.

Abana biga mu ishuri ry'inshuke bicaye ku musambi babahaye ibikombe bari kunywa igikoma, hejuru yabo hari icyapa kiriho ibirango bibafasha kwiga neza ibyo biga.

Abakozi bashinzwe gucunga umutekano mu magereza mu Rwanda bari mu nama rusange bicaye mu cyumba cy'inama bateze amatwi uri kubagezaho ijambo bari kwandika bafite n'amacupa y'amazi imbere yabo banywa kugira ngo icyayaka kitabica.

Abayobozi bo mu nzego z'ubuzima mu Rwanda bitabiriye ibirori byo kubungabunga ubuzima bw'abantu mu cyaro biri gufata ifoto y'urwibutso hamwe n'ingabo z'igihugu muri gahunda yo gukomeza guteza imbere ubuzima bw'abaturage.

Mu nzu itatse ibitambaro by'ubururu, umuhondo n'icyatsi, umuyobozi arikugeza ijambo ku baturage bicaye ku ntebe barimo abasaza, abagore n'abakecuru kandi ari kugenda ababwira ibintu bitandukanye byinshi.

Abayobozi bo mu nzego z'ubuzima bari gukangurira abaturage uko bakwiye gusigasira ubuzima bwo mu mutwe, hari abaturage bifashe ku matama bumva icyo umuganga ari kubabwira.

Mu nama y'abaturage abakozi bashinzwe ubutabazi batwaye mu maboko umwana warembye bagiye kumuryamisha ahantu kugira ngo abone umwuka, abaturage bose barangariye uwo umwana bateruye bakeka ko yaba yapfuye.

Mu bukangurambaga bwo kwirinda indwara, umuyobozi ari kugeza ijambo ku bitabiriye inama harimo abagabo, abakobwa ndetse n'abana bato bambaye imipira y'umweru ndetse n'ibitukura hasi, bari kugezwaho ijambo n'umuyobozi mukuru.

Abakangurambaga bo mu buvuzi bahawe amahugurwa, bicaye mu gisharagati gifite ibirango by'umuryango ushinzwe ubuzima ndetse gishakaje ibintu by'umweru kugira ngo batanyagirwa.

Umuganga mu kigo cy'ubuvuzi ari kwakira umurwayi w'umudamu wambaye igitenge uteze igitambaro cy'umukara ari kumuganiriza uburwayi yaba afite kugira ngo arebe ko yamubonera umuti.

Aho bagurira imiti y'abarwayi barwaye, harimo ubwoko bwinshi butandukanye bw'imiti igiye iri mu byiciro, harimo ifunze mu bikarito, iri mu macupa kugira itangirika.

Mu icururiza imiti hari imiti itandukanye ipanze bubiko bwayo imwe iri muka ikarito, indi iri mu macupa, indi iri mu ducupa dutoya, iyindi igiye ipanze hirya no hino hagiye hariho ubwoko bw'imiti kuri buri karito ndetse na buri cupa.

Inyubako ikorerwamo n'ivuriro gakondo, hariho icyapa kiranga ko hakoreramo abavura indwara mu buryo bwa gakondo ndetse n'ibyapa bigaragaza imiti batanga.

Inyubako icururizwamo imiti harimo imiti myinshi itandukanye imwe iri mu tudobo, indi iri mu gucupa, iy'indi iri mu tuntu dutandukanye kugira ngo itangirika kandi igiye ipanze ku murongo mu buryo bwiza butandukanye.

Aho bagurira imiti, harimo imiti itandukanye, imwe ifunze mu gacupa, indi ifunze mu dukarito, igiye iri mu byiciro, umwe u gihe uri mu gice ubarizwamo, kugira uyitanga atibeshya agatanga utariwo.

Iguriro baguriramo imiti harimo imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo ipfunyitse mu macupa, ipfunyitse mu bikarito, buri muti ugiye ure mu cyiciro cyawo kugira ngo batayivanga.

Bagurira imiti abagabo batatu bambaye ibisurubeti bya kake undi yambaye umupira utukura n'pantaro, hagaragara imiti iri mu makarito indi iri mu macupa kugira ngo itangirika.

Iguriro baguriramo imiti ivura abarwayi, harimo imiti y'ubwoko butandukanye, imwe ifunze mu bikarito, indi ifunze mu ndobo ntoya, indi ifunze mu dukarito dutoya. Buri muti ugiye uri mu gice cyawo kugira ngo abashe kumenya aho uherereye.

Iguriro ry'imiti ririmo imiti itandukanye, harimo ipfunyitse mu bikarito, ipfunyitse mu mashashi ndetse n'iyindi ifunze mu bikarito binini kugira ngo itangirika mbere yuko abarwayi bayigura.

Aho bagurira imiti harimo imiti itandukanye, imwe iri mu macupa indi iri mu bikarito iyindi igiye infuze neza kugira ngo abarwayi babone uko bayitwara itangiritse.

Mu gikorwa cyo gukangurira abantu kwirinda sida abapolisi ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bari kureba uburyo udukingirizo dukoreshwa bareba umujyanama w'ubuzima abereka utwo ari two n'uko dukora.

Abaganga bari mu gikorwa cyo gukangurira abaturage kwirinda indwara, bari mu nzu barimo gukoreramo icyo gikorwa, bari kuririmba indirimbo ya murare kugira ngo abantu bitabiriye bashyuhe babone gutangira ibiganiro.

Mu gikorwa cyo gukangurira abaturage kwirinda indwara zitandura abaganga b'inzobere bari gusuzuma indwara abarwayi barwaye, bari kugenda basuzuma umwe umwe, barimo abagabo, abasore n'abadamu.

Abayobozi bo mu nzego z'ubuzima, bari gutanga ibihembo ku bajyanama b'ubuzima bafasha abarwayi kubona uburyo bwo kwivuza, batagiye ku bitaro cyangwa ibigo nderabuzima.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, batsinze neza ibizamini, bari guhabwa ibihembo, bahagararanye n'abayobozi babo, inyuma hari igishararaga cyubakishije ibitambaro by'umweru, by'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Umuyobozi wo mu rwego rukuru rw'ubuzima ari imbere y'abaturage ari gukoma amashyi bari kuririmba indirimbo mu bukangurambaga burwanya indwara ya sida.

Abayobozi bo mu nzego z'ubuzima bagiye gukangurira abaturage mu bice by'ibyaro kwirinda virusi itera sida barimo abayobozi n'abafite uruhu rwera, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza y'uko baje kurwanya sida.

Mu cyumba cy'inama, umuyobozi ari kugeza ijambo ku bitabiriye inama. Barimo abadamu, abagabo ndetse bafite amazi yo kunywa imbere yabo ari mu macupa, yicaye ku ntebe nziza, amaboko ari ku meza.

Umukozi ucuruza imiti gakondo ari mu nzu ayicururizamo ari kugenda ayishyira ku murongo umwe mu cyumba cyawo kugira ngo atazayivanga, yambaye ibikoresho byabugenewe harimo itaburiya imufasha kugira ngo atanduza imyenda ye.

Icyumba bapimiramo abarwayi, harimo intebe ndetse n'icyuma bifashisha bapima abarwayi, harimo ubukarabiro bifashisha bakaraba intoki mu gihe barangije gusuzuma abarwayi.

Umukozi bo mu kigo cy'ubuzima, ari kwakira amakarita y'abarwayi, areba ko bishyuye ubwisungane mu kwivuza, bamwe baricaye, umubyeyi umwe ari kumuhereza ikarita kugira ngo arebe ko nawe yishyuye abashe kwivuza.

Umuganga w'inzoberevura indwara, wambaye ibikoresho byabugenewe harimo uturindantoki ndetse n'itaburiya, ari kumwe n'umurwayi uri mu cyumba arwariyemo ari kumuha amabwiriza, umurwayi mu cyumba arimo harimo inzitiramibu.

Abaturage bafasha leta kurwanya indwara zitandukanye bazwi nk'abajyanama b'ubuzima, bari gushyikirizwa n'abayobozi bakuru bo mu nzego z'ubuzima ibihembo by'ishimwe, yuko bitwaye neza mu kazi kabo.

Umuganga ucuruza ibirahuri by'amaso ahagaze mu nzu acururizamo yambaye ishati y'umweru, afite umusatsi muremure w'umukara ari guseka kandi mu cyumba arimo harimo indorerwamo zimanitse mu tuntu zigiye zirimo.

Inyubako yikigo nderabuzima ifite amarangi y'ubururu, hariho agafoto kariho umubyeyi n'umugabo bafite abana mubiganza byabo, ku ruhande rw'inyubako hahagaze umusirikare wambaye impuzankano.

Abarwayi baje kwivuza ku kigo nderabuzima bicaye ku ntebe babashyiriraho, bafite ibyangombwa bereka abaganga kugira ngo babavure, umuganga ari kubaha amabwiriza y'uko baribuhabwe serivisi.

Gishyashya cy'umuryango ushingiye ku myemerere mu Rwanda kiri gutahwa n'abayobozi batandukanye bafite umukasi bari gukata igitambaro cyashyizweho mu rwego rwo gutaha iyi nyubako hari abandi bantu bari ku ruhande bategereje ibirori ko bitangira.

Umunyeshuri wiga mu ishuri ry'inshuke ari gukaraba intoki iruhande rwa kandagirakarabe, umubyeyi ari kumwereka uburyo bwiza bwo gukaraba, umwarimu ahagaze imbere y'umuryango w'ishuri amubwira ngo yinjire mu ishuri vuba.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru afite igitabo mu ntoki ari mu cyumba avuriramo abarwayi, abarwayi bicaye ku ntebe barimo umugabo, umwana ndetse n'umumama, inyuma yabo undi ari kwandika ibizamini by'abarwayi.

Icyumba kirwarirwamo indembe, umwana ari kumwe n'umubyeyi we, umwana yicaye ku gitanda afite telefone, amaze koroherwa ari kuganira n'umubyeyi we uko yari arwaye. Umwana ari kureba amashusho muri telefone aseka.

Abayobozi b'ikigo nderabuzima cya Nyamikamba bahagaze munsi y'inyubako bari gufata ifoto y'urwibutso, barimo abagabo n'abasore harimo n'abasaza basheshe akanguhe.

Mu cyumba cyahariwe gukurirwamo abarwaye amenyo, muganga wo mu ishami ry'ubuvuzi washinzwe umutekano ari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda bakuriraho amenyo.

Ku kigo nderabuzima umuganga ari kwereka abarwayi baje kwivuza uko bakoresha imiti bahawe, muganga yambaye ibitenge n'amarinete, hirya y'abarwayi hari ibiti by'indabo bituma haza umwuka mwiza.

Icyumba cyagenewe indembe kwa muganga harimo ibitanda biriho matela, ibiringiti ndetse n'imisego, hanze hagaragara ibimera ndetse inyubako iteye amarangi y'umweru.

Inyubako y'ikigo nderabuzima hihcyapa kigaragaza ababyeyi bafashe abana mu ntoki bagenda mu muhanda, kuri icyo cyapa handitseho amagambo agira ati ''girubuzima''. Ndetse kandi inyubako ifite irangi ry'ubururu.

Mu gikorwa cyo gukangurira abaturage kwirinda indwara, abaganga bicaye imbere bafite ibitabo ndetse n'amakaramu bari kwandika, muganga umwe ayoboye inama arigeza ijambo ku bamuteze amatwi.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashisha gutahura indwara ziri mu mubiri harimwo iz'umutima ndetse n'impyiko hicayemo umuganga ari gukoresha icyuma asuzuma indwara abarwayi bafite.

Umuganga ahagaze imbere y'inyubako bavuriramo abarwayi, afite umunzani ari gupima ibiro by'abarwayi, imbere y'inyubako hari ibyapa bigaragaza yuko bahavurira abarwayi ndetse hejuru y'inyubako hari umurasire utanga ingufu z'amashanyarazi.

Mu cyumba abarwayi baryamyemo kizwi nk'ibitaro by'abarwayi harimo abarwayi baryamye biyoroshe ibindi bitanda nta bantu barimo, mu cyumba harimo inzitiramibu zibafasha kwirinda indwara.

Umuganga w'umuhanga ari kuvura umurwayi, ari kumutera umuti uzwi nka serumu, kugira ngo umurwayi adapfa, umuganga yambaye akagofero ndetse n'impuzankano bifashisha bavura abarwayi.